Urupapuro rw'icyapa cy'inyongeragaciro n'ibinyobwa byakokuteli bitandukanye, muri resitora cyangwa akabari, hariho urutonde rw'amafaranga agiye abiguze, harimo ibihumbi bine, n'ibindi.

Urupapuro rw'umweru rw'icyapa cy'inyongeragaciro rw'ibinyobwa, hariho urutonde rwabyo n'amafaranga agiye abiguze. Harimo nka soda, konyagi, sikoru na virunga.

Umugabo w'igikara wambaye umupira urimo amabara atandukanye, harimo nk'umweru umutuku, umukara, yicaye mu ntebe y'umukara, arambuye igitabo kiri ku meza, inyuma ye hari icyapa cyerekana ibicuruzwa birimo nk' imbuto ndetse nibyo kunywa.

Fagitire yavuye muri resitora cyangwase akabari irimo urutonde rw' ibicuruzwa byaguzwe n' umukiriya n' ibiciro byabyo harimo : amusiteri, Hoti rimoni, vuduka, pizza, cikeni na simoru cipusi.

Amagi agera muri atandatu akaba ar ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri bikomoka kumatungo magufi y'inkoko araryoha cyane yifashishwa kurwanya bwaki ku bana batoya.

Amajyi atatu ari mu kantu k'umukara ni ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri bikomoka kumatungo magufi arimo nk'inkoko bakaba bayateka mumafuta cyangwa se atogosheje araryoha cyane agira akamaro ku mubiri.

Ahantu hiyakirira abantu baje gushaka ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya, hakaba hari ameza n' intebe ebyiri abakiriya bicaraho mu gihe barimo barafata amafunguro inyuma hari ishusho iriho amajerekani y' amata.

Aho bagurisha amata aryoha cyane y'inshyushyu cyangwa se ikivuguto, ni iduka ry'ubucuruzi rya Mukamira rikorera mu Rwanda nkuko bigaragazwa n'amagambo yanditse ku cyapa harimo imashini nini ibika amata mimbere mw'iduka.

Umukobwa w'inzobe ukora ahantu bacuruza ibinyobwa bitandukanye birimo nk'amata y'inka aryoha cyane yambaye umupira w'ubururu urimo utuzeru tw'umweru ndetse n'ingofero afashe ku kajerekani k'umuhondo gateretse ku meza.

Bumwe mu buryo bwikoranabuhanga mu Rwanda bwifashishwa hishyura serivise cyangwa se ibicuruzwa na (mobile money) ni ugukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'agatanu akanyenyeri umunani urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa hishyurwa ibicuruzwa cyangwa serivisi mu rwanda harimo momopeyi bukoreshwa ukanze akanyenyeri ijana na mirongo igatandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Mu buryo bumwe bwo kwishyura serivisi cyangwa se ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga mu Rwanda, hifashishijwe Momo peyi, ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu, urwego, ubundi ugashyiramo kode, hanyuma ugakurikiza amabwiriza y'ibisabwa.

Abaturage babiri bose babagore, bakorera kimwe mu kigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya MTN. Bambaye imipira y'umuhondo inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho amagambo y'umukara.

Kimwe mu kigo gikora serivisi z'itumanaho mu Rwanda harimo emutiyeni, kigira abakozi bakorera ahantu hanyuranye aho usanga bari mu tuzu dusa umuhondo abakiya bakaba babagana bashaka serivisi zitandukanye.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashisha mu Rwanda n'ibigo bitandukanye bugeza serivisi cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya harimo kwishyura hifashishije (Mobile money) bukaba ari bumwe mu buryo bunogera abakiriya ndetse bikanihutisha ibintu.

Bimwe mu bigo bikora serivisi z'itumanaho mu Rwanda nka emutiyene, bigira abakozi baba ahantu hatandukanye, aho abaturage bajya kubagana bashaka serivisi zitandukanye, ngo babafashe.

Kimwe mukigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda harimo MTN kigira abakozi baba ahantu henshi hanyuranye bakorera mutuzu tw'umuhondo aho abakiriya bashobora kubagana bashaka serivisi zitandukanye.

Bimwe mubigo bishinzwe imiyoboro w'itumanaho mu Rwanda, harimo emutiyeni, igira abakozi benshi bayikorera bashinzwe gutanga serivise yayo aho usanga bakorera mutuzu dusa umuhondo, abaturage bakayigana rimwe na rimwe bashaka serivise.

Umusore wicaye ufite telefone igendanwa mu ntoki, arimo aragerageza kwishyura serivise akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa momo peyi, hadakoreshejwe hadakoreshejwe amafaranga agendanwa.

Akazu k'umuhondo ka emutiyene harimo umukozi ukorera ikigo cya emutiyene gishinzwe itumanaho, hari umukiriya waje gushaka serivise zerekeranye n'umurongo wa emutiyene ahagaze hanze, hanyuma umukozi akaba arimo imbere mu kazu.

Uburyo bumwe bwo kwishyura serivise ukoresheje ikoranabuhanga mu Rwanda ari bwo momo peyi ubukoresha ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode ubundi ugakurikiza amabwiriza y'ibisabwa.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu Rwanda ubukoresha wishyura serivise cyangwa se ibicuruzwa mu buryo bworoshye aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunanini akanyenyeri ugashyiramo kode ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ibigo bitandukanye bikoresha kugira ngo hamamazwe ibicuruzwa cyangwa se abakiriya bavuye ahantu hatandukanye bareba ibintu bakora harimo gushyira imbuga kuri murandasi.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'ibigo bitandukanye bigize serivisi cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya bari hirya no hino ku isi, ni ugukoresha murandasi aho byoroshya kugura ndetse no kugurisha ibicuruzwa.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa n'ibigo bitandukanye, bicuruza serivisi cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya, harimo kwifashisha gushyira ibyo bakora ku mbuga kugira ngo abakiriya bari hirya no hino ku isi bibashe kubageraho.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa n'ibigo bitandukanye, bicuruza serivisi cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya, harimo kwifashisha murandasi, hamamaza ibicuruzwa bakoresha, kugira ngo abantu bari hirya no hino ku isi babibone ibyo bakora.

Muburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'ibigo bitandukanye bicuruza serivisi cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya barimo kwifashisha murandasi bamamaza ibikorwa bakora kugira ngo abantu bo hirya no hino ku isi babibone.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa n'ibigo bitandukanye, bigeza serivise cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya, bavuye hirya no hino ku isi, harimo kwamamaza bifashishije murandasi, kugira ngo ibikorwa byabo bigere kure.

Bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'ibigo bitandukanye, bigeza serivisi cyangwa se ibicuruzwa ku bakiriya hirya no hino ku isi, harimo gushyira ibintu bakora kuri murandasi, bakaza kubireba hariho n'amafaranga agiye abiguze.

Umumotari uri kugenda mu muhanda w'amabuye, utwaye ipikipiki ya vuba vuba, akaba ari serivisi ishinzwe kugezaho abantu ibyoku kurya baguriye kuri murandasi byoroshye kandi bikabageraho mu gihe gito cyane.